Icyapa cya radiyanti kigaragaza ubwishingizi batanga, icyapa cya radiyanti kiri mu mabara y'umweru n'ubururu wahamagara kuri rimwe umunani icumi, cyangwa ugahamagara kuri nimero ikurikira zeru karindwi, umunani umunani, gatatu umunani rimwe, zeru umunani gatatu.

Kugura ubwishingizi bw'ingwate ku bapinganira amasoko atandukanye, ubwishingizi bwa radiant ubukeneye wahamagara kuri izi nimero zero karindwi umunani umunani kane karindwi icyenda gatanu gatandatu gatanu.

Ubwishingizi bwa RADIANT, ubu iki kigo cy'ubwishingizi kigaragara ko kirinda umuryango na n'abawe, rinda umuryango wawe ugura ubwishingizi bw'ubuzima, turi kumwe kanda akanyenyeri gatanu, gatatu, rimwe, urwego.

Ikirango cy'ubururu n'umweru, cyanditsemo ijambo Radiyanti. Radiyanti ni ubwishingizi bwishingira abantu, ibinyabiziga, bukabariha igihe bagize ibyago. Ubu bwishingizi bugufasha igihe ikinyabiziga cyawe gihuye n'ibibazo mu kugikoresha.

Uru ni urubuga rw'ikoranabuhanga ushobora kwandikiraho ushaka kugendana nabo, zeru, karindwi, umunani umunani, gatatu rimwe, gatatu karindwi , gatanu, gatandatu. Uru rubuga barwita umusangirangendo wizewe.

Ubu ni uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa na banki zitandukanye zikora serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga ubu buryo bukoreshwa mu iterambere ry'igihugu kimwe na kimwe gikoresha ubu buryo bufasha abaturage kwakira cyangwa kubitsa amafaranga biboroheye bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga.

Uko wagura amayinite, uko bakuyobora "ihangane wemeze wishyure ukurikije aya mabwiriza, kwishyura kuri magana ane, makumyabiri na rimwe, ziru zeru gatandatu, karindwi, kabiri rimwe, gatandatu, karindwi".

Uburyo ushobora kohereza amafaranga ukoresheje telefone igendanwa, ubu buryo bukoreshwa telefone uri kohereza kuri konti zanjye, uri kohereza kuri konti za zigama cyangwa kuri telefone igendanwa cyangwa uri kohereza kuri konti z'andi ma banki.

Isoko ry'ibicuruzwa, imyenda n'imyambaro bambara mu buzima busanzwe, harimo ibyo kunywa, imirire, n'ibindi byinshi bitanukanye, iri soko ni ryiza riragaragara neza.

Imodoka nziza igurishwa. Iyi modoka ifite ibara rya siriva. Imododoka iparitse mu muhanda ni nshyashya, ni nziza, biragaragaza ko igurishwa, nta kirango ifite kiyiranga.

Umugabo uhagaze imbere y'imodoka nshya y'umweru idafite ibirango, umuntu wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu n'agapfukamunwa k'umukara. Hepfo ye hari imodoka y'umukara na yo nziza kandi isa neza, iri mu mabara y'umukara.

Ahacuruzwa imodoka ahazwi nko mu Kagera moto. Aha ngaha hacururizwa imodoka zitandukanye yaba iz'imizigo ndetse n'iz'abantu ku giti cyabo. Izi modoka ziri mu modoka z'imizigo ziri mu mabara y'umweru imbere yaho hahagaze abagabo babiri.

Imodoka ziparitse mu kibuga kinini imodoka enye ziri mu bwoko bunini bwa bisi butwara abagenzi, izi modoka ziri mu mabara y'umweru ziparitse ahantu hamwe kandi ziri ku murongo.

Imodoka y'umukara nziza iparitse mu kibuga giparitsemo izindi modoka zitandukanye, harimo imodoka zikoreshwa kwa muganga zizwi nka ambilanse ifite ibara ry'umutuku n'umweru. Inyuma y'iyo modoka hari indi itwara imizigo izwi nk'ikamyo.

Imodoka nziza iparitse nshyashya yobwoko bwa yundaya sonata hayiburide. Iragurishwa amafaranga miliyoni umunani, iyi modoka yakozwe bibiri na cumi na kabiri, iyi modoka ni nziza, kandi iracyari nzima, mu buryo bwose.

Imodoka nshya zo mu bwoko butandukanye ziri mu bwoko bw'umukara ariko inyuma hari icyapa cy'ibara cy'ubururu cyanditseho ijambo "HYUNDAI". Iki cyapa gifite umuzenguruko w'ubururu kiri mu ibara ry'ubururu, giteye ku gikuta cy'umweru hejuru hari parafo nziza iriho itara riri kwaka.

Imodoka y'umweru ni nziza, igaragara neza, nshyashya iruhande rwayo hari abagabo babiri bagaragara ko umwe yayihaye indi, barikwifotozanya kugirango cyereke urufunguzo rw'iyo modoka. Iyi modoka ni nziza, kandi irasa neza igaragara neza igaragarira buri wese uyibonye.

Imodoka nziza ifite intebe z'umukara. Imodoka gezweho kandi nshyashya. Iyi modoka iragurishwa kandi iri ku isoko. Ni nziza imodoka yiruka kandi nzima. Iracyari nshyashya ifite hejuru hafungurwa hinjiza umuyaga imbere.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka ebyiri zitandukanye ku mabara, imwe ifite ibara ry'umuhondo indi ifite ibara ry'umweru, abagabo bahagaze ahubatse mu kibuga cyiza kandi gifite aho gitangirirwa n'amazi agera muri icyo kibuga.

Ikigo gishinzwe gucuruza imodoka kigaragara mu mabara y'umutuku, iki kigo hafi gifite ikibuga cy'amapave kinini giparikwaho ibinyabiziga biganye aho bakorera, iki kigo kiri ahubatse neza cyubakishije imiryango y'ibirahure kandi cyubatse neza kigaragarira neza buri wese.

Kimwe mu kigo gicuruza imodoka mu Rwanda cyitwa Akagera. Akagera ni kimwe mu kigo gicuruza imodoka, ariko hano haragaragara abagabo batatu bafite igishushushanyo cy'urufunguzo rw'imodoka, umwe yambaye ipantaro y'umweru n'umupira w'umukara, undi yambaye ipantaro y'ubururu, bafashe bose ku rufunguzo.

Imodoka ubwoko bwa Kiate ya bibiri na cumi na kane igurishwa miliyoni cumi na ebyiri imodoka ubwoko bw'amashanyarazi iragurishwa kumudoka iparitse imbere y'inzu ndende nziza.

Imodoka igurishwa iri mu bwoko bwa yundayi kereta bibiri na cumi n'icyenda, imodoka iragurishwa miliyoni cumi n'eshanu, iri mu ibara ry'umukara ryiza, kandi urabona ko imodoka ikiri nshyashya, imodoka nziza iri aha iparitse mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka irenze imwe irirukagaragara mu ibara ry'umutuku, indi igaragara mu rindi bara ry'umutuku izindi zira kugaragara mu mabara y'umweru, imodoka ziri ahacururizwa imodoka kandi n'ishyashya ziracyari nzima zitaragira ibiziranga izi modoka imbere ziracyafitemo amashashi ku ntebe yazo.

Amafaranga menshi agaragara ari muburyo bw'amadolari amafaranga arambitse hejuru ya mudasobwa afashwe n'ikiganza cy'umubyeyi w'umumama umubyeyi yambaye impeta ku kabuko ku gatoki ke.

Mudasobwa ikoreshwa mu ikoranabuhanga ndetse kandi yihutisha bimwe mubikorwa turi gukora ikoroshya n'akazi, iyi ni mudasobwa isa umukara, iri mu biro runaka bitandukanye, iyi mudasobwa ifite ikindi ku ruhande bakoresha kiyifasha mu gukora neza.

Ahakorerwa serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga hazwi nko muri banke. Umwe arakora serivisi yo kubikuriza abamugana, undi arabitsa cyangwa akabikuza. Urimo imbere yambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru, undi yambaye ishati y'umweru irimo uturongo tw'umutuku.

Amafaranga ibihumbi bitanu. Amafaranga afite ibara ry'umutuku agaragara amashusho y'uduseke tubiri, amafaranga kandi yanditseho ko ari amafaranga ibihumbi bitanu akorerwa muri Banki nkuru y'u Rwanda.

Abamama babiri bari mu kazi, buri wese afite mudasobwa imbere ye, biragaragara ko bari gukora akazi bagakunze, banezerewe, bagashaka, bakadukangurira gukora akazi tugakunze, tunezerewe, tunakishimiye cyane.

Imeza y'umweru iteretseho agacupa karimo uduti two kwihaganyuza mu menyo tuzwi nka kirida utu duti tukatwifashisha mu buryo bwo gusukura amenyo mu gihe amenyo yawe yabaye nkayandura.

Abantu batanu bari kunywa amata meza ari mu bikombe bibonerana by'ibirahure, amata ari kunywebwa n'abapapa bambaye imyenda itandukanye bigaragara ko bishimye banezerewe n'ibyo barimo.

Icyapa kigaragaza ikigo gitunganya amazi yo kunywa meza Jibu, gifite ibirango by'ubururu mu majerekani y'umweru, iki kirango cyometse ku njerekani ku ruhande, ziri mu nzu ifite urugi rw'ubururu, hafi yayo hari icyuma gikonjesha kinashyushya, firigo.

Ufite icyo kurya mu ntoki ndetse ari gusomeza amata ari mu kirahure kibonerana, uyu muntu uri ku meza yatetseho amata, hariho na bike yo mu bwoko bwo kwandikisha.

Abantu bari kunywa amata, bari kuyanywera mu bikombe bigaragara nk'ibirahuri. Abantu babiri b'abagabo, umwe yambaye umupira urimo umukara n'umweru, undi yambaye umupira w'amaboko magufi ugaragaramo amabara atandukanye.

Sosiyete ishinzwe itumanaho mu Rwanda, yashyizeho uburyo bwo kugura umuriro w'amashanyarazi ukoresheje telefone. Ishyura umuriro ukoresheje Airtel money. Kanda akanyenyeri, rimwe, umunani, kabiri, akanyenyeri, kane, akanyenyeri, rimwe, urwego, ukurikize amabwiriza.

Kanda akanyenyeri gatatu kane gatanu urwego wishyure maganatanu ugure irekure ubundi uvugane n'abawe wandikirane n'abawe udategwa nta mpungenge ukoresheje mtn.

Uburyo bw'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda Emutiyeni cyashyize hanze uko wagana serivisi zitandukanye ubyikoreye kuri telefoni uko wakwishyura ,uko wagura ama unite yo guhamagara ,uko wakoresha serivisi za banki ,uko wakwiguriza ,uko wakwishyura ndetse n'uburyo ushobora gusura konti zawe.

Abantu batandukanye barimo kugaragara ku mu myenda itandukanye, hari umumama wambaye umupira w'umuhondo uriho ikirango cya emutiyene, umupira uri mu ibara ry'umuhondo ariko umumama afite na fanta ifite ibara ry'umukara, iri mu icupa.

Amafaranga mashyashya agaragara mu madorari, ubundi bwoko butandukanye bw'amafaranga bukorerwa aha ngaha bigaragara ko ari banki ibitsa inabikuza gutanga serivisi zitandukanye ku baturage.

Umumama yambaye amarinete ufite imisatsi yambaye impeta ku gatoki ndetse afite amafaranga menshi mu ntoki, yambaye umwenda w'icyatsi inyuma ye hari ibyatsi by'indabo bimukikije, aho ari kugaragara umumama...

Amafaranga ni menshi yamadorari ari guhererekanwa n'abantu batandukanye, harimo umukiriya n'umuntu wakira ayo mafaranga muri banki. Uyu wa aje kubitsa amafaranga muri banki itandukanye mu iz.

Amafaranga ari mu ntoki z'umuntu, ariko amafaranga ari mu bwoko butandukanye, aturuka mu bihugu bitandukanye, harimo amafaranga y'amanyarwanda, harimo amadorari, ndetse amagande, n'ayandi menshi y'ibihugu bitandukanye, amafaranga.

Ibyapa bitandukanye biri mu mabara menshi atandukanye nk'icyapa gifite ibara ry'umuhondo umweru icyapa kiramenyesha aho bavunjira amafaranga mu bihugu bikurikira Uganda, Kenya, Tanzania ndetse n'ibindi.

Aho wohereza amafaranga, ahangaha ni ibyapa bigaragaza aho wakohereza amafaranga biri mu mabara atandukanye, biri mu ma bara icyatsi, umweru, umuhondo, ubururu ndetse bavuga ko biherereye i Remera.

Abantu batandukanye abapapa n'abamama baje gusaba serivisi zitandukanye ahakorerwa kuvunja amafaranga y'ibihugu bitandukanye, aha abantu bari gusaba kuvunjisha amafaranga atandukanye ukazana ay'igihugu kimwe ugahabwa ay' ikindi gihugu ushaka kujyamo.

Inzu igaragaraho ibyapa bitandukanye by'amafaranga atandukanye, ibihugu bitandukanye. Hari kugaragaraho igihugu cy'Amerika, hari kugaragaraho igihugu cya Canada n'ibindi bitandukanye, bikoresha amafaranga atandukanye. Iyi nzu iragaragara ko ishobora kuba ivunjira amafaranga y'ibihugu bitandukanye...

Ahacururizwa ibikoresho byo mu nzu harimo intebe, utubati, ameza ndetse n'ibitanda bikenerwa. Ibi ngibi bicururizwa ahantu hagaragara, ku muhanda hagaragara ibinyabiziga bitandukanye, moto n'imodoka.

Ameza meza yubatse neza asa neza, ari mu nzu nziza, afite amabara atandukanye umweru n'umukara ariho imitako itandukanye. Iyi nzu igaragara ko ari inzu nziza, ifite buri kimwe cyose wakenera kandi gisa neza, iyi nzu ifite imitako itandukanye, harimo ururabo rufite ibara ry'icyatsi rwiza ruri hafi...

Ibikoresho wakoresha icyawe cyiza kandi bisa neza ndetse n'ibindi bikoresho wakoresha mu bintu byawe nk'intebe ,utubati ndetse n'ibindi ibingibi biragaragara amabara yose umukara n'umweru ibikoresho

Igikoresho cyo gukarabiramo kigezweho, kikaba kiri mu ibara ry'umuhondo, hafi y'icyo gikoresho hari n'agasume ko kwihanaguza, iki gikoresho gikoreshwa iyo uri gukaraba cyangwa uri gukora ibindi bikorwa byo kwisukura bimwe na bimwe.

Bimwe mu bikoresho bikenerwa ubwacu bwa buri munsi harimo intebe, utubati, ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa hamwe nk'ibitanda, intebe zigezweho kandi z'imisego hari n'izindi ntebe zo gushyira aho mu ruganiriro cyangwa aho barira, izi ntebe zikozwe mu mbaho kandi hari izindi zikoze ku buryo bwiza bworoshye kandi bunogeye buri wese.

Inzu ndende igaragara neza yubatse mu buryo bugezweho kandi ifite iterambere, iyi nzu iragaragara mu masaha ya nijoro, aho iri gucana amatara ku nyubako zose ziyigize, yaba imbere cyangwa inyuma ahayo.

Inzu ebyiri zisa, zubatse neza kandi zisakaje amabati y'umutuku, izi nzu zirageretse kabiri, izi nzu ziteye amarange y'umuhondo n'amarange y'umutuku, izi nzu imbere yaho hateye ubusitani, hari ibiti byiza kandi bifite ishusho nziza.

Inzu ndende igeretse gatatu, iri mu ibara ry'umweru n'umutuku, iyi nzu ni nziza, iragaragara neza kandi imbere yaho hari indabo zitandukanye zifite naho wakicara, hafi y'indabo hari ubwogero rusange bwiza kandi busa neza.

Ubusitani kandi bugaragaramo indabyo nziza ziri mu bwoko bwose, ubu busitani burimo intebe z'umukara kandi ubwo ubusitani bukikijwe n'urugo ruzengurukijweho ibyuma biteye irange ry'umukara.

Inyubako nziza yakira abantu batandukanye, harimo umugabo ufite mashini, wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, hejuru afite amatara atandatu amuri hejuru meza amurika cyane. Inyubako igaragara neza imbere cyane.

Icyumba cyiza, gifite isuku cy'uruganiriro, kirimo ibikoresho bimwe na bimwe bitandukanye, harimo intebe, ameza, tereviziyo, utubati n'ibindi byose bikenerwa mu rugo rwa buri munsi. Iki cyumba kiragaragara ko kiriho ibintu bitandukanye hariho uturahuri n'imbuto ku meza biretseho.

Inyubako nziza igeretse iri mu mabara atandukanye, inyubako iri mu mabara y'umuhondo isakaje amabati y'umutuku kandi iyi inyubako ni nziza ni nini imbere yayo hateye indabyo zitandukanye zishinzwe gutanga umwuka mwiza muri izo nyubako, sinyubako imwe ni inyubako ebyiri.

Ubusitani bwiza burimo indabo nziza buteyemo ibyicaro aho wakwicara ukaganira ugafata akayaga ubwo busitani buri hafi y'inzu nziza igeretse yubakishije amatafari ahiye kandi irimo amabara atandukanye.

Inzu igaragaramo intebe kandi icururizwamo ibintu bitandukanye, yaba ibinyobwa cyangwa ibiribwa bitandukanye, iyi nzu biragaragara ko iri ahantu hari ubusitani kandi yubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho.

Ibyokurya biri ku isahani y'umweru ndetse n'icyo kunywa kiri ku ruhande, ibi ibyokurya bitandukanye harimo ifiriti, inyama n'ibindi bitandukanye, ibi biri kugaragara ko biryoshye kandi bisa neza mu buryo buteguyemo neza.

Ibiribwa by'imboga bitandukanye bigaragara ahantu bitunganyirizwa hazwi nko mu gikoni, hasa neza, hateye neza, harimo ibikoresho byose byiza kandi bya kijyambere. Uri kubitunganya asa neza, yambaye imyenda yabugenewe kandi urabona ko afite isuku.

Icyumba cyiza gishashe neza, kirimo igitanda cyiza kandi gisa neza gitatse neza, n'icyumba cyiza cyane kandi kirimo ibikoresho bitandukanye byiza kandi bigezweho ,harimo intebe z'icyatsi zisa nk'igitanda muraho ndetse harimo n'ibindi bintu byose ushobora gukenera hafi yawe.

Icyapa kiri ku nyubako ndende iri mu mabara y'umuhondo n'ubururu , iki cyapa nacyo kiri mu mabara y'ubururu n'umuhondo. Kiri ahitwa i Busanze, icyapa hafi yaho hari undi muntu uhagaze wambaye ishati y'ubururu n'ingofero y'ubururu hafi y 'icyo cyapa.

Ibiro by'ubwishingizi bwa radiyanti bukora nka kampani yo kwishingira ibinyabiziga, abantu mu gihe hari ugize ibyago bikamugoboka, ubu bwishingizi bukorera mu Rwanda ndetse no mu bihugu byose.

Icyapa kigaragaraho ahantu bakora siporo, icyapa kirabamenyesha ko aha hakorerwa siporo, icyapa kiri mu mabara atandukanye, kiri mu ibara ry'icyatsi, n'umweru. Iki cyapa kiriho umuntu uri gukora siporo ndetse n'abandi bari kwiruka bigaragara ko bafunguye uyu munsi.

Ikigo gitanga inguzanyo gikorera aha ngaha gifite ibyapa bitandukanye byo mu mabara atandukanye umweru, ubururu kandi ibyo byapa bishushanyijeho mu mashusho y'abantu batandukanye, icyo kigo kirimo intebe zishinzwe kwicaraho abakigana.

Igipapuro kiragaragara aho ushbora gushyira umukono, aho wuzuza igihe wavukiye, amazina ndetse n'aho utuye ndetse n'agace utuyemo n'igihugu ubamo, buri kimwe cyose kikugize cyuzuzwa kuri iki gipapuro, hakuzuzwamo aho wize ndetse n'ibyo wize.

Bipiyara banke, ni ikigo gishinzwe kubika amafaranga, ndetse no kuriza amafaranga abaturage, mu gihe bayakeneye kandi buryo bworoshye, ushaka kumenya andi makuru, wabahamagara aka kanya, kuri zeru karindwi umunani umunani cumi n'umunani karindwi magana abiri.

Abaturage batari bake, bari bamwe bari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye. Aba baturage bari ahantu hagaragara n'inyubako igeretse, ifite amabara y'umuhondo, abaturage na bo batandukanye, abamama n'abapapa. Abo bapapa bari mu bikorwa bitandukanye.

Ahacuruzwa ibintu bitandukanye bizwi nko mu isoko, aha hagaragara abantu babiri bicaye ku ntebe bose bacuruza ibi bitandukanye biri hano, imyenda, ibikapu, ibitenge ndetse inkweto n'ibindi.

Umugabo wicaye mu isoko yambaye ikoti ry'umukara harimo umumama wambaye umupira w'umutuku, n'undi ukenyeye agatenge k'icyatsi ari gucuruza imyumbati n'ibijumba, isoko irimo abantu benshi cyane.

Isoko rigaragaramo ibyo kurya bitandukanye, harimo imboga, imbuto ndetse n'ibindi, isoko ririmo ingeri z'abantu batandukanye harimo abamama, abapapa, bakenera guhaha, ibyo ngibyo, iri soko rigaragaramo ibitoki, inyanya, karoti, intoryi, ibitunguru na pavuro.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye harimo ibyo kwambara ndetse n'ibindi bikenerwa mu buzimamo bwacu bwa buri munsi, iri soko riteraniyemo abantu benshi batandukanye baturutse ingeri zose, hacururizwamo inkweto z'ubwoko bwose kandi butandukanye, harimo abantu bakoramo benshi batandukanye harimo abakiriya ndetse n'abacuruzi.

Isoko ricururizwamo, ibicuruzwa bitandukanye, haririmo; imboga, imbuto, ndetse n'imyambaro. Isoko ririmo imbuto, zizwi nk'imeke, amacunga, ibinyomoro, otamironi, harimo inanasi, ndetse n'ibindi.

Isoko ricuruza ibicuruzwa bitandukanye byaba imbuto, ndetse n'imboga. Iri soko riragaragaramo imbuto z'imineke, imyembe, amacunga, inanasi ndetse n'ibindi bitandukanye harimo ibikapu, ibitenge, ndetse n'imyambaro iyo ari yo yose.

Isoko rigaragara ririmo abantu nyabagendwa riharirwamo n'ince zose zitandukanye, isoko ryubatse kijyambere. Iri soko rigaragaramo ibicuruzwa bitandukanye ibiribwa bikenerwa mu rugo ndetse n'ibinyobwa, iri soko bigaragara ko ritembere rifite amabati y'ubururu.

Inyubako y'ubucuruzi butandukanye izwi nk'isoko, isoko ryubatse neza rya kijyambere ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo imboga, imbuto n'ibindi biribwa, isoko riragaragara ko ririmo abantu benshi kandi bakora cyane, harimo ibitoki, ibitunguru, intoryi ,karoti n'inyanya n'ibindi byinshi.

Isoko ryiza ryubatse neza riherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Iri soko ricururizwamo: amarido, amatise, verulu, simirikwire n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, bikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Isoko ryateye imbere ririmo imboga n'imbuto byiza kandi bisa neza isoko rikoreramo abacuruzi batandukanye ababyeyi, abamama n'abapapa isoko birimo ibindi.

Inyubako ndende iteraniramo abantu benshi ndetse aha ngaga hari ahakorerwamo ubucuruzi butandukanye inyubako ifite amabara atandukanye harifite amabara y'icyatsi hari ibyapa bitandukanye bifite amabara atandukanye bitewe n'ibihakorerwa.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo imboga, imbuto n'ibindi byinshi bitandukanye bikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, igihe dukeneye ibyo kurya, iri soko rifasha abantu guhaha mu buryo bworoshye, ndetse bikaborohereza kumenya buri kimwe bashaka aho bagiye muri iryo soko.

Inzu nini igeretse yubakishije ibirahure ndetse iri mu ibara ry'umuhondo, iri ahitwa mu mujyi iriho ibirango bitandukanye kandi hafi y'umuhanda. Iyi nzu iri hafi y'umuhanda ugendwamo n'abantu batandukanye harimo ibinyabiziga ndetse n'abandi bagana ako gace.

Isoko ricururizwamo imyambaro itandukanye aba imyenda cyangwa inkweto zombara ubuzima bwacupa buri munsi isoko irimo abantu batandukanye bambaye imyambaro itandukanye kandi isoko rigaragaramo ibintu byinshi bikenerwa.

Inzu ndende nini yubatse mu buryo bugezweho, iyi nzu iri kumuhanda ahaparikwa imodoka zitandukanye, zo mu buryo butwara abagenzi ndetse nizindi modoka z'abantu bikorera ku giti cyabo, izi imodoka ziri mu mabara y'umweru n'umuhondo.

Abantu bacuruza imboga n'imbuto bitandukanye, aha bari gucuruza inyanya, intoryi, urusenda kandi abantu bari mu isoko, aho buri wese yatanditse hasi, aba bafite ibicuruzwa bitandukanye, kandi ni abaguzi ndetse n'abacuruzi.

Akazu gato kari mumabara y'umuhondo ikigo cy'itumanaho cya mtn iki kigo cya mtn kimaze kwamamara hose gitanga uburyo bwinshi bwo kugikoresha hari ukubitsa kwifuza guhamagara guhamagarwa ndetse n'izindi serivisi zitandukanye iki kigo gishobora kuba gitanga zidufasha mu gihugu cyacu.

Ikigo gishinzwe itumanaho cya MTN kigaragara mu mabara y'umuhondo n'umweru gifite ikoranabuhanga ritandukanye kandi uko buri munsi uko bukeye kigenda gitera imbere, aha hari abantu babiri umwe agannye icyo kigo undi atanga serivisi itangwa n'icyo kigo imbere ye hari mudasobwa bari gukoresha telefone ngendanwa.

Akazu gato kari mu ibara ry'umuhondo ryerekana ikigo gishinzwe itumanahogo cyo mu Rwanda, antene, aka kazu karagaragaraho ifoto y'abantu bari kwamamaza serivisi zitangirwa muri icyo kigo gishinzwe itumanaho, imbere harimo undi muntu utanga ibicuruzwa n'ibikenerwa by'icyo kigo cya MTN.

Umumama wambaye imyenda itandukanye, harimo amabara y'umuhondo afite ikirango cya MTN mu ntoki, kigaragaza uburyo wakishyura kuri Momo, Momopay, iki kirango kiriho imibare karindwi, zero, gatatu, kane, karindwi.

Umwe mu bakozi b'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda MTN, gifite ikirango cy'ibara ry'umuhondo rikorera mu gihugu hose, iki kirango cya MTN kiri mu ibara ry'umuhondo, ukanda kanyenyeri rimwe umunani kabiri urwego ugakurikiza amabwiriza.

Umutaka uri mu ibara ry'umuhondo uri kugaragara aha ngaha ariko wandikishijeho amagambo y'ubururu, umutaka imbere yaho hari akabafure k'umukara gashinzwe kurangurura amajwi, inyuma y'umutaka hari indi ifite ibara ry'umweru.

Ikirango k'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda cya MTN kiragaragara mu mabara y'umukara, umuhondo, umweru n'ubururu. Iyi sosiyete ya MTN.......

Ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda MTN, gifite abagenti impande n'impande gikora ibintu bitandukanye, ari ukubikuza ari ukubitsa ndetse no kugura amafaranga yo guhamagaza inshuti n'abavandimwe, iki kigo kimaze gutera imbere kuko gisigaye gikorera mu bice byose by'igihugu.

Ibirango by'ishami rishinzwe itumanaho mu rwanda mtd ifite abantu barikorera mu duce dutandukanye tw'igihugu cyacu rigaragara mu mabara atandukanye hari umuhondo amagambo bandikisha umutuku n'umukara ige mpn ifite abantu bagenda batanga serivisi zitandukanye mu duce tumwe na tumwe tw,igihuguhugu cyacu bimaze gutera imbere.

Urubuga rwagufasha mu guhaha ukoresheje ikoranabuhanga utavuye mu rugo ndetse udatonze umurongo ujya guhahira aho bicururizwa, uru rubuga rwagufasha kubona buri kimwe cyose ukeneye mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitakugoye.

Imodoka ziri mabara y'umweru n'umuhondo zishinzwe gutwara imizigo, izi modoka ziriho ibirango by'ikigo bita Twiga buri modoka yose iri hano ifite icyo kirango kandi yose ifite ibara ry'umuhondo n'umweru.

Uburyo wahaha mu ikoranabuhanga ukoresheje ikoranabuhanga wahaha vuba vuba bikakugeraho mu buryo bworoshye, utabashije kujyayo byihuka vuba bakoresha moto zihuta kandi zinyaruka zikuzanira ibyo ukeneye.

Urubuga rucururizwaho imyambaro itandukanye, urubura barwita wa, wa, akadomo kigure a, ra, wa, bakoherereza ku buntu kandi ibicuruzwa bikakugeraho udatinze kandi vuba.

Abamama batandukanye bari hano bagaragara ko hari ibikorwa byiza bakoze bari gushimirwa, harimo umuyobozi wa banki ofu Kigali, harimo umuyobozi mu zindi nzego zigiye zitandukanye ziriho hano mu gihugu cyacu.

Kugura, kugurisha, ku buryo bw'ikoranabuhanga, mpamagara kuri zeru karindwi, mirongo inani kane gatatu karindwi rimwe kabiri zeru cyangwa wandike ku rubuga rwa watsapu zeru karindwi umunani zeru kane gatatu karindwi rimwe kabiri.

Ikoranabuhanga rifasha abantu kugura no kugurisha mu buryo bworoshye hatagombye gufata urugendo kujya guhaha aho icrizwa, iri ikoranabuhanga rya vuba rigukorera koherereza ibicuruzwa cyangwa ibyo waguze ku giciro cyiza kandi gike.

Uko wahaha ibiryo ukoresheje ikoranabuhanga mu Rukari, iri ni ikoranabuhanga rigezweho ryo gutumiza ibiryo cyangwa ibindi bintu ukeneye mu buryo bworoshye utiriwe ujyayo ukoresheje ikoranabuhanga na telefoni.

Ibinyabiziga bya moto bitandukanye birimo abamotari bane, ibinyabiziga bijya ku byerekezo bitandukanye bikorera ubucuruzi muri online, ni ukuvuga ngo ibi binyabiziga bifite amabara y'umutuku, uburango by'imihondo.

Izu zinza zigurishwa mu gace ka Kigali, zubatse neza kandi zubakishije ibikoresho bigezweho zubatswe n'abahanga, kandi izi nzu zigurishwa ku mafaranga makeya bataguhenze, izi nzu zifite amabati y'icyatsi ziteye amarangi y'umweru, ziragurishwa.

Inzu nziza iri ahantu heza kandi ifite ikibuga cyiza gitatse neza, inzu ifite amabati y'umutuku yubakishije amakaro ndetse iyi nzu iri kugurishwa miliyoni ijana cumi n'eshanu; iherereye i Kigali mu Rwanda i Kanombe.

inzu nziza yubatse mu buryo bwiza kandi yubatse hari umutekano, ifite urugo ruyizengurutse, inzu ifite imbere hafite ikibuga kinini cy'aho guparika imodoka. Iyi nzu iragurishwa amadorari magana abiri kandi iherereye i Kigali mu Rwanda.

Inzu irimo amakaro ndetse irimo amabara y'umweru, inzu irimo uburyamo, irimo amashusho atandukanye y'imitako, iyi nzu iherereye Kibagabaga i Kigali, iyi nzu iragurishwa amafaranga.

Inzu nziza iteye amarange meza kandi iherereye mu mujyi wa Kigali, iyi inzu ifite ikibuga ndetse ifite aho gutera indabo, inzu iherereye i Gisozi Kabuga igurishwa miliyoni magana tatu na mirongo itanu.

Inzu nziza isa neza ikodeshwa amafaranga ibihumbi maganatanu atanu by'amadorari ku kwezi. Inzu iherereye i Kigali mu Rwanda. Inzu ifite igikoni cyiza kirimo ibikoresho bitandukanye bikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inzu nziza ifite imbere heza. Ifite intebe nziza, ifite uburiro bwiza, ifite amabara meza, ifite hejuru ku gisenge haho ni heza. Iyi nzu ikodeshwa amadolari magana inani ku kwezi, iri i Kigali mu Rwanda.

Icyumba kigaragara ko ari icy'uburiro, kirimo intebe nziza zikomeye kandi gikoze neza, iki harimo imitako myiza itandukanye harimo iyometswe ku gikuta, iri hejuru n'itabi rimurika mu nzu ndetse n'ibindi bitandukanye biri muri icyo cyumba. Icyumba kiragaragara ko ari icyumba cyiza gifite parafo nziza isa neza.

Inzu ikodeshwa ibihumbi magana atandatu. Iyi nzu ifite ibyumba bibiri ifite tuwalete ebyiri ikodeshwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi iherereye i kigali i remera ubu ni ubwiherero bwiza kandi bugezweho buri muri iyo nzu.

Inzu nziza igaragara ko iri gukodeshwa hano mu Rwanda, inzu igaragara ko etaje yubatse neza, ifite ubwiza imbere n'inyuma iragaragara ko iyi inzu rwose nawe wakwifuza kuba wabamo, inzu nziza ikodeshwa amadorari igihumbi n'ijana ku kwezi, iri i Kigali mu Rwanda.

Inzu ikodeshwa igaragara neza yubatse neza ifite igikoni kigezweho kandi kirimo ibikoresho bitandukanye, iyi nzu irakodeshwa irimo icyumba kimwe ubwiherero bumwe ikodeshwa ibihumbi magana abiri ku kwezi iherereye i kigali Kacyiru.

Inzu nziza y'amabara atandukanye umutuku, icyatsi n'umuhondo. Iyo nzu ifite ikibuga cyiza igaragara ko ikodeshwa muri kigali kanombe ifite ibyumba bitatu ifite tuwareti ebyiri ikodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Inzu nziza igeretse ikodeshwa kandi yisanzuye, inzu iri mu mabara atandukanye iteye ibara ry'umweru n'umuhondo, ibara rigaragara neza, ifite urubaraza kuri buri muryango wose ugize iyi nzu, iyi inzu ni nziza ifite n'igipangu cyiza.

Inyubako nziza iherereye i Kigali Kimironko iri mu ibara ry'umuhondo yubakishije amakaro kandi isakaje amabati y'umutuku, iyo nzu ifite ibirahure mu miryango no mu madirishya, inzu ifite ibyumba bibiri ubwiherero bubiri irakodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi.

Inzu nziza isa neza ikomeye, yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, ifite imbere heza ifite purafo nziza, ikodeshwa iri Kigali Kimironko, ifite ibyumba bitatu n'amatuwarete abiri, ikodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Inzu nziza yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho , yubakishije amakaro iteye amarangi y'umuhondo ifite jaride nziza igaragara neza, ifite ikibuga cyaho waparika imodoka kinini kandi cyisanzuye, igurishwa amafaranga miliyoni ijana na icumi , iherereye Kigali i kanombe, ifite ibyumba bine, na tuwarete eshatu.

Inzu nziza yubatse neza ikodeshwa ifite imbere heza kandiste n igiko n' imbere cyubatse neza, iyi nzu iherereye i Remera irimo ikodeshwa, ifite icyumba kimwe, ifite aho bogera hamwe ifite, hanze ndetse ifite n'igikoni.

Inzu nziza igezweho, igaragara neza ko iteye imbere, igaragara ko iri kugurishwa, iyi nzu irakodeshwa amafaranga makeya kandi ntabwo ihenda, ifite ibyumba bibiri, ifite aho bogera hamwe, kandi ikaba iri ahantu Kibagabaga.

Inzu nziza iherereye i mayane, igurishwa. Ifite amakorosi atandukanye. Iyi nzu ifite amabara y'umuhondo, iyi nzu ni nziza. Iyi inzu igezweho, ifite amabati meza, ifite imireko ifata amazi, yubakishije amakaro. Iyi nzu ifite inzugi nziza kandi zigezweho.

Inzu yubakishijwe amakaro ndetse yubatse neza kandi ifite urugi rwiza rw'ibirahure ikodeshwa amafaranga ijana na mirongo itanu ku kwezi n'icyumba kimwe.

Inzu iri mu mabara y'umutuku n'umweru ifite amakaro, ifite ikibuga hanze kinini kigaragara neza kandi gifite jaride. Iyi nzu irakodeshwa iherereye Kigali-Kimironko, ifite ibyumba bibiri, tuwareti ebyiri, ikodeshwa ibihu magana atatu na mirongo itanu ku kwezi.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye igezweho kandi ifite ikibuga kinini n'aho waparika imodoka. Iyi nzu irakodeshwa iherereye i Kigali, Kanombe. Ifite ibyumba bine, ubwiherero butatu, ikodeshwa ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Inzu nziza igaragara mu amabara atandukanye, iyi nzu yubabakishijwe amakaro kandi iyi nzu ifite ikibuga kinini kirimo amapave, iyi nzu irimo imbere yaho hari indabo ziri mu bwoko butandukanye kandi izo ndabo ziteye mu mitako itandukanye iri mu mabara atandukanye.

Inzu nziza ingereritse igaragara mu mabara y'umuhondo, icyatsi, ubururu n'umweru, yubatse neza yubakishije amakaro irakodeshwa muri Kigali Kicukiro, ifite ibyumba bine, ubwiherero bune ndetse ikodeshwa ibihumbi magana arindwi ku kwezi.

Ahacururizwa ibintu bitandukanye bimwe na bimwe bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, hacururizwa inkweto, amasaha, imyenda, ibikapu by'abagore ndetse n'ibindi dukenera amavuta yo kwisiga ndetse n'imibavu yo kwitera, kugira ngo duhindure impumuro, aha hacururizwa n'amashusho yo gutaka mu nzu.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kunywa, ibyo kurya kandi byiza birambye, bifite ubuziranenge bwemejwe n'igihugu kibishinzwe, ibi bicuruzwa bikorerwa ahantu heza, kandi biri mu buryo bupanze neza bufite isuku akajagari...

Isoku nyabagendwa, isoko riharwamo bintu byose ukeneye, harimo imyenda yaba iyo kwambara ndetse n'imyendakodesha, iyi ni imyenda y'ubukwe cyangwa iyo mu bindi birori byose wayisanga aha mu isoko ndetse iri soko rigiye rifite ibirango bitandukanye byo mu bucuruzi batandukanye.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa by'ibinyobwa byiza bitandukanye, harimo ibisindisha n'ibidasindisha, ibi bicuruzwa byose, biri hano muri iyi nyubako yubatse neza kandi isa neza, ikorerwamo izo serivisi zo gucuruza ibyo kunywa.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa by'imyambaro bitandukanye harimo imyambaro y'abamama n'iy'abapapa igaragara mu mabara yose. Iyi myambaro iri kugaragara harimo amakoti y'abagabo. Iri soko riragaragaramo abacuruzi n'abaguzi batandukanye.

Inzu icururizwamo imwe mu mitako itandukanye, yaba yashushanyijwe n'intoki ndetse n'iyakozwe n'intoki, iyi inzu icururizwamo ibintu bitandukanye bya kera ndetse n'iby'ubu ngubu bizwi imitako.

Bamwe mu bashinzwe umutekano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bicaye imbere ya mudasobwa, bambaye imyenda y'akazi kabo bakoramo mu bigo bitandukanye, harimo abasirikare n'abapolisi , buri wese yicaye imbere ya mudasobwa ye bari mu kazi gatandukanye, bitewe n'icyo ashinzwe.

Isoko ryiza rya kijyambere, ririmo abantu batandukanye abamama, aba papa baje gusakamo ubufasha butandukanye, harimo imyenda yo kwambara, inkweto, imiringa ndetse n'ibindi bintu bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, iri soko..

Umwe mu bakiriya bagannye inzu icururizwamo imyambaro harimo imipira yo kwifubika, harimo n'imipira isanzwe y'amaboko magufi, harimo amapantaro ndetse umukiriya yambaye ipantaro y'umukara umupira w'umweru ahetse igikapu n'ingofero y'umutuku, imbere ye ku gikuta hari ibara ry'icyatsi.

Icyapa giteye ku muhanda kigaragara mu mabara atandukanye: Icyatsi, umweru, umutuku ndetse n'umukara, iki cyapa kiramenyesha aha hafi ibihari ndetse iki icyapa giherereye ahitwa i Remera.

Inzu icururizwamo imyambaro itandukanye y'amabara atandukanye, iyi nzu iragaragaramo abantu batatu batandukanye harimo abacuruzi n'abakiriya, iyi nzu irimo imyenda y'amabara ubururu umweru, umutuku n'andi menshi atandukanye.

Ikigo gishinzwe ubuzima bw'ejo hazaza, iramenyesha ejo heza kikagaragaza ko ugomba kuzigamira amasaziro yawe wizigama ukoresheje ejo heza.

Ikarita ya mituweli, mituweli ni ikarita umuntu ashobora kwivurizaho mu buryo bworoshye agacibwa ikiguzi gike bitewe n'ibyo yivuje mituweli ni nziza kuri buri munyarwanda wese ukeneye kwivuza ndetse no kugira ubuzima bwiza imituweli itangwa n'ikigo cya RSSB.

Umuturage Mukanziga Pasikaziya biragaragara ko yashimiwe, ahawe igihembo cya miliyoni imwe n' ibihumbi magana abiri na miliyoni eshatu y'u Rwanda, biragaragara ko uyu muturage bigaragara ko yashimiwe ni ikigo bita RSSB.

Abagabo babiri bari mu biro, bari kwiga ku bintu bitandukanye, bambaye imipira y'umweru, n'amapantaro y'imikara, bicaye mu ntebe z'umukara, bari mu kazi kabo ka buri munsi, kandi bagakora neza bagakunze.

Yerekana ikintu cy'ikirango muntoki cya RSSB. Umu papa yicaye ku meza, inyuma ye hari idirishya riri kugaragaza urumuri mu nzu. Inzu ye ifite amabara yumuhondo. Uyu mu papa, icyapa afite ni icya RSSB. Imbere ye, hari terefone ku gatambaro k'ubururu n'umweru

Abantu batandukanye bigaragara, bafite abana ndetse ni aba mama badafite abana; ariko bicaye bafite ikarita ya mituweli yo kwa muganga. Iyi mitwaweli yifashishwa mu kwivuzaza kugira umuntu abashe kwivuza mu buryo bworoshye.

Ikirango kigaragara mu muzenguruko kiriho amagambo y'icyatsi ariko gifite n'andi magambo y'umukara, iki kirango kiragaragaramo amashusho y'abantu batandukanye. Kiranagaragaramo amashusho y'abamama n'ay'abapapa.

Bamwe mu baturage bateraniye hamwe bari gufunguza mitiwere do sante. Mitiwere ni ikarita igufasha mu kwivuza byoroshye kandi ku giciro gikeya, kandi ikagufasha mu kwivuriza ahantu hamwe na hamwe hatandukanye mu gihugu cyacu. Twe...

Icyapa cy'ibara ry'umweru cyandikishije amagambo y'umutuku SIMBA kicukiro, iki cyapa kiri ku muhanda ahantu hagaragarira buri wese mu masaha y'ijoro imodoka mu muhanda ziri kugenda hafi yicyo cyapa harimo imodoka y'umweru n'umukara.

Umuturage uvuye guhaha mu isoko, ahashye ibiribwa bitandukanye harimo imboga imbuto n'ibindi bikenerwa mu buzima bwe bwa buri munsi, uyu afite akagare bahahiramo gafite ibara ry'icyatsi.

Isoko ry'ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kunywa, ibyo kurya bikenerwa kenshi mu buzima, ibicuruzwa biraganwa n'abantu batandukanye, abamama n'abapapa ndetse buri wese araza agahitamo ibyo ashaka bitewe n'ibyo akeneye.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi bikenerwa bitekeshwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibi bicururizwa ahantu heza kandi bifite isuku, bifite n'umutekano. Ibi bifite ubuzima bwiza buzira umuze.

Abantu babiri bari hamwe, umwe yambaye umupira w'umuhondo, ufiteho utubara tw'ubururu, uyu nguyu ni umwe utanga ibicuruzwa, undi aje kubigura, yambaye ibitenge birimo amabara y'umutuku, n'umweru, kandi arabona ko aha hacururizwa ibyo kunywa n'ibyo kurya dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Isoko ry'ibiribwa rigezweho rigaragara ahantu heza cyane, ryubatse neza ririmo ibiribwa bitandukanye inyama, imigati n'ibindi biribwa bindi bimo bitandukanye, bikunzwe kandi bikenewe na benshi.

Inzu nini irimo ibicuruzwa bitandukanye, dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, yubatse neza ifite amakaro hasi, ndetse hejuru yubakishije isakaro ryiza. Iyi nzu icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse n'ibindi twifashisha turimo gutunganya ibyokurya n'ibyo kunywa.

Inyubako irimo ibicuruzwa nk'imboga, imbuto n'ibindi bitandukanye bikenerwa nk'ibirungo bikoreshwa mu cyayi, mu byo guteka ndetse n'ibindi dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, harimo inyanya, pavuro, karoti n'ibindi. Iyi nyubako irimo umukiriya waje guhaha bimwe muri ibyo bicuruzwa, ufite agakapu, wambaye umupira w'amaboko maremare n'ipantaro.

Isoko ricuruzwamo ibicuruzwa bitandukanye harimo ibyo kunywa, ibyo kurya ndetse n'ibyo twifashisha kugira dukore ibyo kurya n'ibyo kunywa. Iyi nzu iri ni ahantu heza kandi yubatse neza icururizwamo ibintu byiza kandi bigezweho mu rwego turimo.

Inyubako y'ubucuruzi itandukanye haragaragaramo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibikoreshwa n'amashanyarazi bigezweho, harimo ibinyobwa bitandukanye, harimo n'abantu batandukanye baje gushakamo ibyo bakeneye bitandukanye harimo abantu batari bakeya, harimo abantu abapapa n'abamama.

Ibicuruzwa biri mu iduka, ibicuruzwa bigaragara ko biri mu mashashi. Ni ibicuruzwa biri ahantu hacururizwa ibiribwa, ibinyobwa bikenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibi biribwa biraryoshye bimeze neza kandi bigabanya indwara y'umuvuduko.